Ifoto iragaragaza umugangayi uri gutera umurwayi urushinge. Ikibigaragaza ni uko uyu muganga icya mbere afite urushinge, afite na ya myenda yabugenewe yambarwa n'abaganga.

Ifoto igaragaza ibiribwa bitandukanye by'amadeseri, ni ukuvuga ngo ni ibibiribwa biribwa nyuma y'uko umuntu amaze kurya.